Inzu icururizwamo ibinyobwa byinshi cane bitandukanye arimo nzoga, fanta ndetse hakabamo n'ibikoresho nka firigo.

Agahoteri keza cane karimo ibintu byinshi bitandukanye. Intebe nziza, akabati keza, tabure nziza, harimo inzoga n'ibindi byinshi.

Inzu icururizwamo ibintu bijyanye n'ibyo kunywa aho usanga hateye intebe neza, abantu bakaza kuharuhukira hari umwuka mwiza cane bigatuma bamera neza.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, hateyemo intebe nziza cane, hatatsemo imitako myiza aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuharuhukira.

Inzu icururizwamo ibintu bijanye n'ibyo kunywa aho usanga abaturage baza kuhagurira harimo inzoga, amafanta, amaji n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye aho usanga hanakorerwamo imico ya kinyarwanda haba intore nziza zibyina neza abaturage baza kuharuhukira.

Amafunguro ya mugitondo ni meza cane atuma umuntu yirigwa neza, akumva atuje ,akora akazi neza ntakibazo, arinda uburwayi butandukanye cane.

Mu kabari habamo ibintu byinshi bitandukanye, ni ahantu hahuriramo abantu baza kunywa ibinyobwa harimo: inzoga, ji, n'ibindi.

Akabari kagizwe n'ibintu byinshi bitandukanye， harimo inzoga， afanta，ji n'ibindi， aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuharuhukira， kunywa ikinyobwa gitandukanye.

Bare ni inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Harimo inzoga, amaji, amafanta. Aho usanga abaturage hirya no hino baza kuhanywera.

Inyama za burushete ni nziza cyane zikunzwe n'abantu benshi batandukanye ziraryoha bazotsa ku makara bakazishyiraho agasenda n'ibindi birungo.

Akabari gasohokerwamo n'abantu benshi batandukanye, aho usanga bahaza baje kuharuhukira kugira ngo babashe kumera neza. Habamo ibinyobwa byinshi bitandukanye cane.

Inzu icururizwamo ibintu bijyanye n'ibyo kunywa harimo inzoga amaji n'ibindi aho usanga haba hateye intebe nziza cane kugira ngo abahagana babashe kuhicara neza.

Icyapa kiyobora abakiriya bitegura gukoresha ubukwe, iyo bahageze bibafasha kubona ibyo bashaka utabanje kuyoboza, ni ingirakamaro cane.

Amazu acururizwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo: inzoga, amatelefone n'ibindi, aho urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo baje kubishaka.

Iduka ribamo ibintu byinshi bitandukanye bikunze gukenerwa mu rugo, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baja kubigura mu mazu atandukanye.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo baza kubigura kugira ngo bibashe kubagirira imimaro.

Depo y'ibicuruzwa by'ibinyobwa, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu, baza kurangura kugira ngo babashe kujya gucuruza bunguke.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ibyo kurya. Harimo: amafi, burusheti n'ibirayi. Aho usanga, abantu benshi babikunda cane.

Umuyaga ni mubi cane, uhirika amazu menshi atandukanye hijya no hino, akagwira abaturage, bakahaburira ubuzima. Wangiza ibidukikije.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye aho usanga uruhurirane rw'abantu hijya no hino banyuranamo, baje kugura ibyo bashaka byose.

Ibicuruzwa bijyanye n'ibikapu, amashuka n'ibindi bikunze gukenerwa n'abantu benshi batandukanye hijya no hino aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura.

Ibyapa biyobora abakiriya kugirango babashe kuhagana batabanje kubaza abantu hijya no hino, bituma babona ibyo bifuza cane.

Amazu y'ubucuruzi arangwa n'ibyapa biriho ibintu abaturage bakaza bahagana bakahagura ibintu bitandukanye bakabijyana mu ngo zabo.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye cane, aho usanga abaturage bahagana baza kuhagura ibyo bakeneye mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Butike ni nziza cane. Ifasha abaturage hijya no hino. Aho usanga uruja n'uruza baza kugura ibintu byinshi bitandukanye harimo, gaze amazi, ji, bombo n'ibindi.

Ibicuruzwa by'ibitenge ni imyambaro ikunzwe n'abamama, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo, baza mu maduka kuyigura kugirango ngo babashe kwambara neza.

Butike ni nziza cane aho asanga hacururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amamoto ibikoresho byo kubakisha n'ibindi.

Ubucuruzi ni bwiza butanga amafaranga menshi atandukanye yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuhahahira, bakahabona ibyo bakeneye.

Robo ni ingirakamaro. Robo igufasha kwerekana igicuruzwa cyawe neza, ikagufasha kugira ngo umuntu utambutse wese abone ko kiberewe, kandi abone ko ari mwiza. Akawugurira kubera ko abonye ko ari mwiza, ndetse agakunda n'ishusho yawo.

Kaburimbo ni nziza cane. Habamo ikirango kigaragaza aho abaturage bambukira. Gifasha abantu kugira ngo badahura n'impanuka. Iyo imodoka zihageze, zirahagarara abaturage bagatambuka.

Ibicuruzwa byinshi cane bitandukanye bikunze gukenerwa n'abaturage hijya no hino, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubihaha harimo: umuceri, bombo, amavuta n'ibindi.

Ibicuruzwa birimo ibintu bitandukanye harimo ibikufi bambara ku ntoki, ikunzwe cyane n'urubyiruko ruri hijya no hino, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuyigura.

Butike ni nziza cane, habamo ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga urujya n’uruza rw’abantu bajya kubigura. Harimo nk’ibitenge, aho badodera imyenda, bigafasha abantu benshi cane.

Ubukanishi ni bwiza cane aho usanga abaturage bazana amagare kuyakoresha kugira ngo babashe gutwara imizigo yabo neza bakagera ahantu bitabagoye.

Icyapa ni cyiza cane kiyobora abakiriya kugira ngo babashe kuhareba ibyo bifuza, bigatuma batayoba batiriwe bari kubaza hirya no hino.

Inzu icururizwamo ibikoresho byo kubaka amazu, aho usanga abaturage hijya no hino banyuranamo baza kubigura, kugira ngo babashe kubaka amazu yabo meza.

Ubucuruzi burimo ibintu byinshi cyane bitandukanye harimo intebe z'igare, imisumari n'amapine aho usanga urujya n'uruza rw'abantu babigura.

Goyiko ni isoko jyiza ribamo ibintu byinshi bitandukanye cane. Aho usanga uruja n'uruza gw'abantu bajemo baje kugura nk 'imyenda, caguwa.

Inzu y'ubwogoshi ikorerwamo amasuku yo ku mutwe, aho usanga hamanitse icyapa, kugira ngo abakiriya babashe kuhabona bitabagoye cane.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye aho usanga hamanitse icyapa, kugira ngo abakiriya nibaza batayoba, harimo imyenda y'abageni.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye ifasha abaturage ndetse n'abana barwaye, bakabasha gukira byihuse batabanje kujya kwa muganga.

Inzu y'ubucuruzi ibamo ibintu byinshi cane bitandukanye harimo amatelefone, ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho usanga abantu baja kubigura.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi cane bitandukanye. Harimo: capati, ji, amandazi, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura ndetse n'abana batoya.

Inzu icururizwamo imbuto zitandukanye harimo imineke, pome ndetse n'ibindi n'amagi ni ingirakamaro ku bana, atuma abava mu mirire mibi.

Inzu icururizwamo imyenda itandukanye harimo ibitambaro badodamo amajipo, amakanzu. Aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura kugira ngo base neza.

Butike ni nziza cane. Ibamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kugurayo ibikoresho, ibyo kurya kugira ngo babashe kubaho neza.

Inzu y'ibicuruzwa icururizwamo ibyayi. Ni byiza cyane. Bifasha abaturage mu gihe cy'ubukonje aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kugura icyayi, kugira ngo babashe kumera neza.

Mu isoko habamo ibintu byinshi cane bitandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajana ibicuruzwa byabo mu isoko, kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Inzu ya salo ni nziza cane, habamo ibintu byinshi bitandukanye: gusuka, kudefiriza, kogosha, gusokoza, kandi bitanga amafaranga menshi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bitandukanye harimo imineke, amakara, n'ibindi byinshi cane, aho usanga urujya n'za rw'abantu bajya kuhagurira.

Ikigo cy'amashuri y'abana ni cyiza cane, bituma abana bamenya ubumenyi bwinshi cane, bagakura neza bazi gusoma no kwandika, bifasha abantu benshi.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, harimo indobo n'ibindi aho usanga urujya n'uruza rw' abantu baza kubigura bakabijana hirya no hino.

Inzu z'ubucuruzi amamaketi amakantine biradufasha cyane, aho bitwegereye bidufasha guhaha, kubona buri kimwe bitatugoye bidufitiye akamaro kanini cyane umunsi ku wundi.

Inzu icururizwamo ibintu bijyanye n'ibyo kunywa, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuharangurira ibintu byinshi cane, kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Izu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibikoresho byo kubakisha, ndetse n'ibyo mu rugo, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bakunze kubikenera.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo inzoga amaji ndetse n'ibindi binyobwa, aho usanga abantu bahaza kuhagura.

Isoko ni jyiza cane ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo imyenda, ibyo kurya ndetse n'ibindi aho usanga urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo baza kubigura.

Aba ajenti ni abantu bafasha abaturage mu kubaha amafaranga kuri terefoni， kugira ngo babashe guhamagara abantu bari hirya no hino，kugira ngo babashe kugira itumanaho.

Amazu y'ibicuruzwa ni meza cyane. Aho usanga abaturage hirya no hino banyuranamo bajya kugura ibyo bakeneye, kugira ngo bibashe kubafasha mu buzima busanzwe.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho byo mu rugo: nk'ibitanda, intebe, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura kugira ngo babashe kumera neza.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo amakara, ibirayi, ibitunguru aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura bakabijana hirya no hino.

Inzu icururizwamo ibintu bijyanye n'ibyo kurya, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo baza kubihagurira, kugira ngo babashe kumera neza mu mubiri.

Icyapa gikoreshwa n'abantu kugira ngo bamenye ibyo ucuruza. Umuturage ugeze aho hantu kimanitse asome ibihacururizwa kugira ngo atayoba.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga hamanitse ibyapa biriho ibyo bacuruza. Abaturage iyo bahageze ntabwo bibagora.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo nka resitora. Aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuharira bashonje bikabafasha ,imbaraga zikiyongera.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi bitandukanye harimo ibikapu, ameza n'ibindi bikoresho byo mu rugo aho usanga abaturage bakenera cyane bakarira kubigura.

Inzu y'ibicuruzwa bitandukanye aho urujya n'uruza rw'abantu bakunda kujya guhaha harimo:ibiribwa, ibikoresho by'inzu ndetse n'ibindi.

Imashini isya ni nziza cyane, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baja gusya ibigori, amasaka ndetse n'ibindi kugira ngo babashe kunywa agakoma.

Butike ni nziza cane zikoreshwa n'abaturage benshi batandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kugura ibintu byinshi cane, harimo ibikoresho byo mu rugo amavuta.

Butike ni ahantu haba harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye cane, harimo amabiswi, amafarini, amabombo, ibibiriti n'ibindi byinshi. Aho urujya n'uruza rw'abantu baza kuhagurira ibintu bitandukanye.

Imiringa myiza cane, ikunzwe n'abari n'abategarugori, aho usanga bajya kubigura ku masoko atandukanye hijya no hino.

Inzu icururizwamo ibikoresho n'imiti bijyanye n'amatungo. Aho bifasha abaturage benshi cyane baza kubigura kugira ngo amere neza.

Ibicuruzwa bya matora bikenerwa n'abaturage hirya no hino ni ingirakamaro cyane mu rugo, aho usanga umwana ndetse n'umuntu mukuru, iyo aryamyeho asinzira neza.

Inzu icururizwamo ibintu bijyanye n'ibyo kunywa. Harimo: ibyayi, amandazi, amaji n'ibindi. Aho usanga abaturage babikunda cane hirya no hino.

Inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye aho usanga harangwa n'ibyapa kugira ngo abaturage batayoba harimo ibyayi, amafi n'ibindi bijyanye n'ibyo kurya.

Inzu y'ubucuruzi bujyanye n'inyongeramusaruro harimo ingemwe zo gutera, hakabamo imiti yo gutera ibihingwa kugira ngo udusimba tuveho.

Aba agenti ni abantu badufasha mu kuduha ama inite kuri fone, kugira ngo tubashe guhamagara abantu hirya no hino, tukamenya amakuru atandukanye cyane.

Inzu icururizwamo ameza ibikoresho byo muri salo, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kubigura kugira ngo mu nzu zabo, babone uko bicara.

Icyapa ni kiza kiyobora abakiriya neza, bakabasha kuhagera, bahasoma ibintu byinshi bitandukanye, bakeneye kugura harimo: amata, imigati, shampanye n'ibindi byinshi.

Gusenga ni byiza cyane, bituma umuntu abaho neza kandi anezerewe. Usanga urujya n'uruza rw'abantu bo hirya no hino bajya mu nsengero nyinshi zitandukanye.

Hoteli ni nziza cane ijyamo abantu benshi cane. Aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuharuhukira bakahasaba amacumbi kugira ngo babashe kumera neza cane.

Isoko ribamo ibintu byinshi cane bitandukanye. Harimo karoti, imyembe, ibitoki, inyanya. Aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kubigura bakabijyana kubiteka.

Isoko ribamo ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo bajya kureba ibyo bakeneye, habamo abayikoreye imifuka bayigeza hijya no hino.

Amazu y'ubucuruzi habamo ibintu byinshi bitandukanye aho usanga urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo bajya kuguramo ibirayi, ibikoresho byo gukoresha.

Isambusa ni kimwe mu biribwa bikunzwe, aho usanga abantu benshi batandukanye bakunda kubigura cyane. Ikozwe mu ifarini, inyama, ibitunguru n'umunyu.

Bimwe mu bicuruzwa bikunze kuba mu maduka harimo saladine, imashini, korogate, n'ibindi byinshi cyane. N'amavuta aho usanga abantu hijya no hino bakunda kubikenera.

Isoko ricururizwamo ibikapu aho usanga bikenerwa n'abadamu, abana ndetse n'abagabo bakajya ku ishuri bagatwaramo amakaye, bakabasha gutwaramo ibintu.

Inzu y'ubucuruzi ibamo ibintu byinshi cane aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura harimo: amandazi, amagi, inyanya, kawunga, biswi, n'ibindi byinshi cane.

Mwisoko habamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo umuceri, amavuta, kawunga ,ifu y'igikoma aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura.

Isoko ricuruzwamo imyenda aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuyigura kugira ngo babashe kwambara neza, abacuruzi bakabona amafaranga menshi cane.

Cagi ni igikoresho cyiza cyane gikoreshwa n'abaturage benshi baturutse hirya no hino . Bagishyira ku muriro bagacaginga telefone ikabasha kwaka bakayikoresha bakabasha gukoresha itumanaho.

Ibicuruzwa bitandukanye harimo: amaji, amabisukwi ndetse n'imyunyu, bikunzwe n'abantu bakuru ndetse n'abana, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura.

Amatungo ni meza cane atanga ifumbire, inkoko itanga amagi igaturaga hakavamo ubushwi bakagurisha hakavamo amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi cane. Aho usanga harimo: imiceri, amavuta, kawunga, ifu y'igikoma. Aho usanga urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo baza kubigura.

Isoko ni ingenzi cyane aho usanga abaturage hijya no hino baza kugura inyanya, ibitoki, ibirayi n'ibindi byinshi bitandukanye bikabasha kume.

Isoko ni ingirakamaro cane rifasha abaturage hirya no hino. Harimo ibintu byinshi bitandukanye: ibitoki, ibirayi, amashaza, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura.

Isoko ry'ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo: tungurusumu, Ibitunguru, karoti, intoryi, inyanya, dodo, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura.

Inzu icururizwamo ubunyobwa aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubugura ni ingirakamaro cyane bugira intungamubiri haba ku bagabo ku bana ndetse n'abagore.

Isoko ricururizwamo ibikoresho byo mu rugo harimo: imbabura, amasafuriya, amasahani n'ibindi aho usanga bikunze gukenerwa n'abaturage.

Isoko ribamo ibintu byinshi bitandukanye harimo: inyanya, ibitunguru, ibinnyobwa n'ibindi aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza guhaha, kugira ngobabashe kubigeza mu rugo.

Amafi y'insambaza ni meza cane aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bayacuruza kugira ngo bakuremo amafaranga menshi biteza imbere, agira intungamubiri aba ku bana ndetse n'abantu bakuru.

Isoko jy'ibyuma bitandukanye harimo gakoco ifata imbeba, kugira ngo zitajya imyenda. Ibyuma bikunze gukoreshwa mu rugo cane bahata ibiryo.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo: imyeyo, ibiyote, imineke ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo ,aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura.

Isoko ry'amavuta meza cane. Bayateka mu buryo butandukanye. Bayakaranga mu biryo bikaryoha, akunzwe n'abaturage benshi cane.

Amajerekani ni meza cane afasha abaturage hijya no hino mu kubikamo amazi yo gutekesha ibintu bitandukanye aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuyagura.

Isoko ni ryiza cane aho usanga abantu bari hirya no hino bashyize ku murongo ibicuruzwa byabo kugira ngo babone abaza kubigura bakabona amafaranga.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi cane bitandukanye harimo karoti, intoryi ,imiteja n'ibindi cane aho usanga abaturage bajya kubigura.

Ubucuruzi bw'inkweto burunguka cyane bubamo amafaranga menshi yo kwiteza imbere, aho usanga abaturage hijya no hino baza kuzigura kugira ngo babashe kwambara neza.